Ni byiza ko buri muturarwanda akora umurimo w'ubuhinzi nko guhinga ikawa bituma uyihinga atera imbere akagira icyo amarira umuryango we, ibi kandi bituma abaturarwanda bageza ibihingwa byabo hanze cyangwa bigakoreshwa mu gihugu mu rwego rwo kugira ngo babone umwimerere wabyo.

Hari imiti igiye itandukanye y'ibihingwa bitandukanye, ikoreshwa mu kongerare ibihingwa ubudahangarwa, bwo kudapfa cyangwa se gukura neza. Ibi bihingwa kandi ubihinga abona amafaranga kubera ko ya byaku neza, cyangwa se akabikoresha iwe mu rugo.

Igikorwa cyo kwinaza bimwe mu bihingwa harimo avoka ndetse n'ibindi, bifasha ababikora kubona umusaruro utubutse, kuko avoka zitubuwe zibasha kwera zikiri ntoya zikera mu gihe gito, zigatanga umusaruro.

Avoka zinajwe neza zizatanga umusaruro kuko zerera igihe gitoya, bigafasha umuhinzi kuzabona amafaranga ndetse no kubona ibitunga umuryango we byihuse akiteza imbere, akabona n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye azakura mu mafaranga azabona.

Hari amoko menshi y'ibiti agiye atandukanye. Hari ibihingwa biba birebire bikoreshwa mu bwubatsi cyangwa se mu kubaza imbaho zishobora gukoreshwa mu gukinga amazu ndetse n'ibindi. Ibyo kandi binatuma nyiri ukubibihinga abona amafaranga.

Umurimo wo guhinga ibinyomoro, ni umurimo mwiza uteza imbere uwukora bigatuma abona amafaranga cyangwa se akabona ibitunga umuryango binyuze mu kuwubonera ibyo ukenera.

Ubworozi bw'inkoko, ni igikorwa cyiza, giteza imbere ugikora. Zibasha kumuha amagi, zikamuha amafaranga, bigatuma yiteza imbere ndetse akabona ibikomoka ku matungo mu rugo rwe, akabasha kwikura mu mirire mibi.

Hari amoko menshi agiye atandukanye y'imiti ikoreshwa mu buhinzi, harimo imiti y'intungagihingwa, hakabamo imiti ituma ibihingwa bigira amababi meza, hakabamo ndetse n'indi miti igiye itandukanye, ishobora gutuma ikimera kigaragara neza.

Ubuhinzi bw'ibigori ni igikorwa cyiza giteza imbere ugikora. Abasha kubona ibimutunga iwe mu rugo, cyangwa se akagishora ku masoko atandukanye, akabona amafaranga agiye amufasha mu mirimo ya buri munsi.

Hari ibihingwa bigiye bitandukanye ibyo bihingwa bikaba bibonekamo amaboberi abonekamo indodo, hakaba harimo ibiti birebire bikoreshwa mu bwubatsi, ibi kandi bituma ababikora babona amafaranga cyangwa se bakanabona ibitunga imiryango yabo.

Avoka ni igihingwa cyiza gishobora kuvamo amavuta, ndetse ugihinga ashobora Kubonamo amafaranga, ushobora kuyirya cyangwa se ukayikoresha ibindi bintu bitandukanye bishobora gukoreshwa na voka.

Avoka ni igihingwa cyiza gitunga uzihinga ndetse bikanatuma abona amafaranga, cyangwa se akabona ibyo kurya nk'imbuto. Ikindi kandi avoka zikoreshwa cyane cyane mu gukora amavuta n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Ibiti bimwe na bimwe bikura bikaba birebire bikoreshwa cyane cyane mu kubaka, ndetse kandi bikanakunda gukoreshwa mu kubazamo imbaho zishobora gukinga amazu havuyemo inzugi cyangwa se ibindi bikoresho bitandukanye.

Ubuhinzi bw'amashu ni igikorwa kiza giteza imbere ugikora. Ubu buhinzi kandi bushobora gutuma ubukora, abona amafaranga binyuze mu kubucuruza. Ikindi kandi ashobora kubikoresha iwe mu rugo igihe ari guteka.

Intoryi nziza bigaragara ko zafumbiwe neza, uwazihinze akabasha kuzijyana ku isoko, ndetse akiteza imbere. Cyangwa se akazikoresha iwe akabona imboga, na we akabasha kugira imirire myiza.

Guhinga ibitunguru ni igikorwa cyiza giteza imbere ugikora akabona amafaranga, akamuteza imbere mu buryo bugaragara, cyangwa se akabikoresha ateka iwe mu rugo, akarya ibiryo bihumura neza.

Mu rwego rwo kurwanya imirire mibi, leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda y'akarima k'igikoni kugira ngo abaturage bahinge imboga ndetse babashe no guteza imbere urugo rwabo, binyuze mu guhinga izo mboga ndetse bakarwanya n'imirire mibi mu bana babo no kugwingira...

Hari amoko menshi y'ibihingwa harimo ikawa, indimu, ndetse n'imiyembe. Ibi bifasha ababihinga kwiteza imbere, bakabasha kubona ibibatunga mu miryango yabo, cyangwa se bakabasha kugira inyubako nziza bitewe n'uko bateye imbere. Hari n'abandi bagira icyo bageraho, bakoresheje amaboko yabo, mu guhinga.

Abantu bahinga ibihingwa bigiye bitandukanye. Harimo karoti, amateke, ibigori ndetse n'ibindi. Ibi kandi bifasha umuhinzi kwiteza imbere, akabona ibitunga urugo rwe, ndetse akabona n'ibyo agemura ku masoko, bikazamuteza imbere mu buzima bwe bwa buri munsi.

Ni byiza kuhira imyaka kubera ko iyo izuba ricanye, imyaka ishobora kuma. Iyo imyaka yuhiye, bituma igira ubuzima bwiza, ikazatanga umusaruro utubutse. Ibi kandi byanateza imbere umuhinzi kuko abona ibyo yiteze.

Hari ibihingwa bigiye bitandukanye harimo ibigori, inturusu ndetse n'ibindi, ibi bifasha ababihinga kwiteza imbere mu buryo bugaragara.

Mu Rwanda haba amoko menshi y'ibihingwa, harimo urutoki, gereveriya, inturusu, imiyembe, avoka, ndetse n'ibindi. Ibi kandi bifasha abaturarwanda kubona ibibatunga, kubona ibyo bakoresha mu guhinga, ndetse no gutera, ibi kandi binabafasha kwiteza imbere bakazabasha kugera ku byo bashaka.

Ubworozi bwo korora amatungo magufi ndetse n'amaremare, nk'ihene n'inka, bifasha umuturage ubyorora kwiteza imbere, akabona ibikomoka ku matungo, cyangwa se akabona amafaranga iyo yabishoye ku isoko, akiteza imbere.

Ubworozi bw'ihene ni igikorwa cyiza giteza imbere ugikora. Ibi kandi bifasha umworozi kubona ibikomoka ku matungo cyangwa se akabona amafaranga ateza imbere umuryango we, akabasha kugera ku byo ashaka.

Umurimo wo korora urugero nko korora ihene bifasha ukora uyu mwuga kubona amafaranga ndetse no kubona ibikomoka ku matungo, agateza imbere umuryango we binyuze muri ubwo bworozi bwe, ibi kandi bituma uyu muntu agira icyo ageraho.